Abana bato bicaye mu ishuri bafite ibitabo, barimo gusoma ku bikuta hamanitse ibipapuro na byo biriho ibyo gusoma.

Umuntu wambaye igisarubeti cy'ubururu, wicaranye n'abana bato benshi bari ku mukeka, mu cyumba kirimo n'ikibaho.

Abana bari kumwe mu cyumba cy'irerero, bicaye kumukeka bafite igitabo bari gusoma, bari kumwe n'ababyeyi babafasha.

Abana bato bicaye ku mukeka bakoze uruziga, bafite udukombe, barimo banywa ibiri mo mbere, bigaragara ko ari Irerero.

Abana bato bicaye ku mukeka bakoze uruziga, mo hagati hicayemo umubyeyi wambaye ibitenge ushinzwe kubitaho.

Icyumba bigaragara ko hari icyo ku ishuri, kimanitseho ibyapa ku gikuta, birimo ikigizwe n'inyuguti zose ndetse ikindi kiriho imibare, ikindi kiriho inyamaswa zo mu rugo.

Mu cyumba cy'ishuri kirimo intebe abanyeshuri bicaraho nyinshi, harimo n'abana bato ndetse n'ikibaho cyandikwaho.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano bateruye amasafuriya, bigaragara ko basoje kurya bagiye kuyoza.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inyubako zigaragara ko zimaze igihe kinini, mu kibuga harimo abana bato, barimo gukina imikino itandukanye.

Igikuta cy'inyubako cyanditseho ngo ari ishuri, bagira amashuri y'incuke ndetse n'abanza imbere yaho hari ibyatsi.

Inyubako z'ubwiherero, zubakishije amatafari ahiye, inyuma yazo hahinze ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'insina z'ibitoki.

Abana batoya bambaye impunzankano bigaragara ko hari abanyeshuri bari kumwe n'umuntu mukuru, arimo abafasha kubereka uko bita ku ngemwe zikiri ntoya.

Icyumba kirimo intebe y'umukara n'ameza arambitseho ibitabo ndetse n'impapuro, hariho n'agacupa karimo umuti bakarabisha intoki.

Abana babiri bambaye impuzankano z'ishuri, bateruye akabase karimo ibyo kurya birimo ibishyimbo n'umuceri.

Umuryango munini ugizwe n'icyuma n'ibirahuri, hejuru hari amagambo y'umukara yanditseho ko ari icyumba cy'abarimu.

Abanyeshuri bambaye impuzagano, bafashe amasuka, barimo baracukura ahantu, bigaragara ko bari gukora isuku,

Icyapa cyanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'umukara, avuga ko ari ishuri rya Kabgayi riherereye Igitarama.

Abanyeshuri bambaye ibisarubeti bifite ibara ry'ubururu, bari mu cyumba bigaragara ko ari icyo bimenyererezamo gukora ibyo biga.

Abanyeshuri benshi, bari mu cyumba kinini, barimo bamwe bambaye amapantaro ya kaki n'udupira tw'ubururu, abandi bambaye udupira tw'umweru, hari n'umuntu uri gufotora.

Inyubako igerekeranyije, yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi z'ubururu n'amadirishya, iruhande hari ikigega cy'umukara.

Imodoka nyinshi, zifite ibara ry'umuhondo, zanditseho amagambo avuga ko ari imodoka z'ibigo zitwara abanyeshuri.

Mu muryango munini wanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi avuga ko ari urwunge rw'amashuri rw'i Butare aho abanyeshuri biga.

Imodoka y'umweru yanditseho amagambo avuze ko ari imodoka ishinzwe gutwara abanyeshuri ibajyana mu kigo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iriho amagambo yanditseho ko ari urusengero rwa Shyira, ruri muri Busengo.

Inyubako ndende y'umuhondo, ifite amabati y'ubururu, irimo abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru hejuru ndetse na kaki hasi.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano zirimo amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu bwijimye, bari kwinjira mu modoka.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, zirimo amajipo cyangwa amapantaro ya kaki ndetse n'amashati y'ubururu bwererutse barimo kuririmba.

Umuryango munini ufite ibara ry'umweru, uriho inyuguti zirimo iya pa, sa, va na fa, zikaba ari impine y'izina ry'ikigo.

Ahantu hari ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye, hari n'icyapa cyubakishije amatafari, kiriho impine z'amagambo agizwe n'inyuguti ya o na p na d na e.

Abasore babiri bahishe amasura, bambaye imyenda y'imyeru hejuru, umwe ahetse igikapu yambaye n'isaha.

Ni abanyeshuri batonze umurongo imbere bari kuririmba, bari kumwe n'umubyeyi urimo kubayobora mu ndirimbo

Inyubako nyinshi zigize ikigo cy'amashuri, mo hagati harimo imodoka nyinshi ndetse n'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Icyapa cy'ikaze cyanditseho ko ari imparirwakurusha, kiriho indangagaciro ndetse na kirazira n'ibirango by'igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako nyinshi zigaragara nk'aho ari iz'ishuri n'umuryango munini binjiriraho n'ibyapa byinshi biranga aho hantu n'ikihakorerwa.

Ikirango k'ikigo cy'amashuri cyanditseho amahame y'intore n'indangagaciro ndetse na kirazira harimo, Ubunyarwanda, Gukunda Igihugu, ubunyangamugayo n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nyinshi bigaragara ko ari nk'ishuri, imbere yazo hari ibiti binini ndetse n'ubusitani.

Inyubako ndende igeretse, imbere yayo handitse ijambo ngo: "Gatagara," imbere y'inyubako hari ibiti.

Abana bato b'abanyeshuri bahetse ibikapu, banambaye impuzangano bari kwinjira mu modoka zibatwara ngo bajye ku masomo.

Inyubako ndende igerekeyije, imbere yayo hari imbuga zigaragara nkahoho ari ikigo cy'amashuri kigwaho n'abanyeshuri benshi.

Inyubako igerekerenyije ifite amabati y'ubururu ndetse n'ibigega by'umukara n'akayira abantu banyuramo ndetse n'imodoka.

Akazu gatoya kaba imbere y'inyubako nini, kabamo abazamu, hirya haparitse imodoka y'umukara ntoya.

Abanyeshuri bafite mudasobwa ndetse n'umwarimu w'umuzungu, urimo urabereka ibyo bakora kuri mudasobwa zabo.

Inyubako ndende zigerekeranye, ziri ahantu hari umukobwa uri guvayo n'undi ujyayo, bigaragara ko ari ahantu nko ku ishuri.

Icyumba kirimo uburiri bushashe neza, ku buriri harambitse mudasobwa ifite ibara ry'umukara, hasi hari itapi rifitemo utubara tw'umweru n'umukara.

Icyapa gifashwe n'iminyururu kiriho n'ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda, iruhande hari amagambo yanditse avuga ngo "ubwiherero", ariho n'ikirango cyerekana icyerekezo.

Agasima kanitseho matera ifite utubara tw'ubururu n'umweru, iruhande rwayo hari umukobwa uri kuhatambuka.

Abantu bicaye mu cyumba, basa n'abarimo gukora inama, umwe ahagaze imbere, arimo aganiriza bagenzi be bicaye bamureba.

Igitanda kiriho uburiri bubiri bugerekeranye, bumwe buri hasi, ubundi buri hejuru, bigaragara ko ari nk'icyumba cyo mu kigo runaka.

Icyapa kiriho amagambo menshi ari mu bara ry'umukara, amwe yanditse mu rurimi rw'Igifaransa, andi yanditse mu Cyongereza, andi ari Ikinyarwanda.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari nk'ikigo cy'ishuri, imbere yayo hari ubusitani burimo indabo z'ubwoko butandukanye.

Umugabo wicaye ku gatebe, iruhande rwe hari icyapa, cyanditseho ko ari Kaminuza y'u Rwanda, ishuri ryigisha mu buvuzi.

Inyubako ndende igerekeranije, hejuru hari imyenda yanitse ku byuma bifashe inyubako ndetse hejuru hari amabati y'umutuku.

Umugore ufite indangururamajwi yambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'ikarita imuranga inyuma ye handitseho ko ari ishuri ry'umwuga rya Kitabi.

Icyumba kirimo utubati tunini harimo amacupa arimo ibintu bitandukanye, bigaragara ko ari ahantu abanyeshuri bimenyerereza ibyo biga.

Inyubako nini igerekeranyije, ifite amabati y'umutuku ndetse ku muryango hariho ikirango kigaragaza ko ari muri kaminuza, ishami ry'i Huye.